Muri moruge, muri moruge ni ahantu hashira abantu bapfuye, usanga hateye ubwoba ariko na none abaganga bahitaho, bahatera imiti igiye itandukanye.

Ibimera ni ingirakamaro cyane, bidufasha kubona imiti, bimwe tubirya nk'inoryi ndetse n'ibindi, si ibyo gusa, ibimera byifashishwa mu nganda.